Imbangukiragutabara irimo abantu urujya n'uruza bari gusohoka mu matente ndetse hakaba hari n'amazu asakaje amabati asa umutuku.

Ibiganza byambaye udupfukantoki dusa ubururu, bikaba biri gukata ahantu n'urwembe, bigaragara ko uyu nguyu ari umuganga wa kizungu.

Abantu bahuriye hamwe bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu, bafashe ku cyapa cyanditseho ngo Yunisefu, bigaragara ko bakorera ku iki kigo gishinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana.

ahantu hateraniye abantu benshi cyane bari kugenda bapakira imifuka mu buryo bugezweho harimo abagabo ndetse n'abagore ariko abari kugaragara ubugubu n'abagore babiri bateruye umufuka aho bagiye kuwushyira umugabo akawupanga neza

Abana babiri harimo umwe uri gufungura umugezi wa robine, ari kuvomera amazi mu ndobo z'umweru nziza cyane nshyashya, hirya hari ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye mu ishitingi, ritatseho amabara y'idarapo ry'igihugu cy'URwanda, bicaye bakurikiye umugore w'umuganga ufite indangururamajwi n'igitabo mu ntoki, ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Aba ni abana babiri bateze ibiganza byabo ku mazi ava mu mugezi wa robine, bigaragara ko bari gukaraba umwe yambaye ipantaro undi yambaye agapira k'umutuku, barishimye cyane kubera ibyo bari gukora dore ko abana bakunda amazi.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivise z'ubuvuzi aho harimo ibikuta bisize amabara y'umweru, hagati hatambitsemo uturongo turi mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo n'intebe zicarwaho n'abarwayi baje kwivuza.

Abantu bicaye bari mu nama bambaye udupira tw'umweru ndetse bose bakaba bakurikiye imbere, aho bari kwiga k'ukuntu bakwirinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'ubuvuzi bukagera kuri bose.

Iyi nyubako y'uruziga aho yubakishijwe isima ndetse ikaba iteye amayobera kuba wapfa kuyitahura ariko n'inyubako itanga serivisi zijyanye n'ubuzima.

Abantu bagiye batandukanye bambaye udupfukamunwa ndetse n'amatabiririya y'ubururu, bigaragara ko ari abaganga. Bari mu nyubako ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru, aho bari gutanga serivisi zigiye zitandukanye ku baturage.

Abantu bari kuvoma amazi badubitse mu kiyaga inyuma yabo hari imisozi, ni abana bato ariko ubu buryo si bwiza kuko buteza umwanda. Aya mazi uyanyweye warwara indwara zigiye zitandukanye zirimo n'amacinya.

Abagabo bahagaze ahantu bambaye imyambaro y'umweru, bakikije umujyanama w'ubuzima, hari n'umuntu wambaye akajiri k'abakorerabushake bari kuganira ku kintu runaka.

Umusaza w'umu islam yicaye imbere y'umukobwa, bigaragara ko bombi bari mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa muri uwo mwuga.

Ikigo cyita ku buzima ku isi UN WFP kikaba kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya, wambaye imyenda y'impuzu mpuzankano, ari gukaraba ku mazi y'umugezi wa robine bigaragara ko agira isuku, hirya ye hari ibiti birebire bifite amababi yumye.

Aba bari mu nama y'ibijyanye n'ubuzima bwiza, kuko bahagaze nk'abari kwifotoza, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho Rwanda Biyomediko Senta mu kinyarwanda bisobanuye ikigo cy'igihugu gishinzwe umibereho w'ubuzima bwiza mu Rwa.

Ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura mu Rwanda, wasake, kikaba kidukangurira kwishyura amazi bitarenze iminsi cumi n'itanu, nyuma y'uko fagitire iza. Iyo ubirengeje, barayagufungira.

Ibi bikoresho biri aha ngaha biyungurura amazi ava muri kimwe akajya mu kindi, ni iby'ikoranabuhanga biba byesitaye ku mashanyarazi ku buryo biyungurura amazi akavamo asukuye neza, uyanyoye akagira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba ari benshi higanjemo abajyanama b'ubuzima, aho bambaye amataburiya y'akazi, hari kandi n'abagabo bambaye amakositimu ndetse n'undi umwe wambaye ikositimu ufite kamera ari kubafotora.

Abana bato bari koga mu kiyaga bigaragara ko bishimye cyane, ni byiza cyane ko nawe wajya unyarukira ahantu hari amazi nko muri pisine maze ukoga ubuzima bwawe bukaba bwiza bukazira umuze.

Ifoto irimo abantu benshi cyane b'abana bazamuye utuntu tw'udupapuro bishimye cyane ndetse hari n'umugabo w'umwarimu uri kubafasha, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko y'uwo munsi bari kwizihiza.

Abantu bagera muri bane bahagaze imbere ku ruvugiro bigaragara ko bari gukina ikinamico, n'abantu b'abagore batatu n'umusore umwe, hirya yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho umuryango w'abibumbye wita ku buzima ku Isi.

Abantu bateruye agafuka karimo umuceri. Harimo umugore n'undi mugenzi we, bari kugahereza umugabo uhagaze hejuru y'indi mifuka, kugira ngo abishyire hamwe.

Umwana uri gusukira amazi ari kuronga ikijumba mbere y'uko akirya. Ni byiza cyane ko wazajya urogna ikintu cyose ugiye kurya. Ibi bituma ugira isuku ndetse ukazayikurikirana, umwana wanjye nzamutoza nk'ibi.

Umugore wambaye agapira k'umweru akaba yajyanye umwana kwa muganga wambaye agapira ka oranje, hakaba hari umugabo nawe wambaye amadarubindi n'agapira ka oranje uri kumuha umuti, ni byiza kujyana umwana kwa muganga atararemba.

Umugore witeze igitambaro, akaba yambaye agapfukamunwa. Yambaye umupira w'icyatsi, ndetse yiteze n'igitambaro. Imbere ye hari ibyuma byikoreshwa mu buvuzi, bavura indwara zitandukanye.

Abantu bateraniye hamwe, bari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, bakaba bazengurutse akameza, bari kuganira ku buryo serivise z'ubuvuzi zagera kuri bose. Inyuma yabo, hari irido risize ibara ry'ubururu ndetse bicaye ku ntebe nziza cyane.

Umugore wambaye amadarubindi ari kureba imbere ari guseka, akaba yambaye igitenge cyiza cyane, inyuma ye hari abandi bana bigaragara ko bameze nkaho ari abuzukuru be.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura burundu, bifashwe n'abantu bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ubururu.

Amavomero rusange yashyizweho ahantu hagiye hatandukanye, aho havoma umuntu umwe hari n'undi ufite icyuma Ari kujya arapomba, hari umwana uri kuvoma ndetse n'umugore uri kumupombera, abandi bahagaze hirya impare y'insina bari kureba.

Umwana wagiye kuvoma amazi kuri robine ku kigega akoresheje igikombe, uyu ni umunyeshuri, yakoresheje igikombe mu rwego rwo kwimakaza isuku kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye biragaragara ko ari abadamu bakenyeye ibitenge, bahagaze ahantu hari imbuga ishobora kuba ari iya bitaka.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umutuku ikaba iteye irangi ry'umweru, imbere yayo hari amashitingi abiri hari n'abantu inyuma baje mu nama benshi batandukanye.

Abantu bicaye bari mu nama, harimo abayobozi babiri ndetse n'umuntu ushinzwe umutekano uzwi nka daso n'akamodoka karo kugaragara, inyuma yabo hari akavuriro gatoya kanditseho ngo" gira ubuzima" kari mu mabara y'ubururu.

Umwana ari ku mugezi ari kuvomesha akavido k'arindwi, hejuru hari mukuru we ari kumufungurira amutegera neza amazi kugira ngo avome amazi yere kumeneka ajye mu kajekanri neza kandi imbere ye hahagaze n'abandi bantu bari hejuru y'umugezi bari kwitegereza bavuye ku ishuri b'abanyeshuri.

Umuganga uri gutera umwana urushinge. Biragaragara ko ari kumuvura, zimwe mu ndwara zigiye zitandukanye, cyangwa se akaba ari kumuha urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Abana bato bagiye kuvoma kuri rya vomero risaba gupompa bagezeyo birabananira, umugore w'umuzungu wari uri mu modoka ababonye agira impuhwe, avamo none yaje ari kubapombera nabo bavoma.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, ayo magambo akaba asobanura umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abana ku isi.

Ameza ariho udukarito tw'amabara atandukanye, harimo utw'icyatsi n'umweru, ubururu n'umweru ndetse n'utwumweru n'umutuku, hakaba hari ku ruhande rumwe umukobwa wambaye agapira k'icyatsi, urundi ruhande ruriho umugabo wambaye akajire n'ishati y'icyatsi.

Unicef ni ikigo gishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ku isi. Cyane cyane cyita ku burenganzira bwa buri mwana. Aho byanditse mu ibara ry'ubururu, harimo n'umubumbe w'isi urimo umuma n'umwana barebanye.

Umugabo wambaye agapira kajya gusa umuhondo n'amadarubindi ari guha umwana ibyo kurya umwana nawe yambaye agapira gasa orange nyina w'umwana yambaye agapira gasa n'umweru ni uburyo bwo kurwanya imirire mibi n'igwingira.

Umwana uri kuvoma mazi kuri rubine, afite amavido atatu. Imwe iteretse hejuru, iri kuvoma, izindi ziteretse hasi. Ndetse arebye muri kamera, ari guseka, arishimye.

Umugabo ushinzwe ikigo cy'ubuvuzi, akaba yambaye amadarubindi ndetse ntabwo ari guseka. Hino hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ubuso ni ubururu.

Abajyanama b'ubuzima bahuriye ahantu hamwe, inyuma yabo hari shitingi y'umweru, bari gukoma amashyi, imbere yabo hari ubusitani bwiza, hirya hari inyubako bigaragara ko ishobora kuba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Umugore uri gupima abantu wambaye akajiri k'abakorerabushake akaba ari gupima abantu barebe ko batarwaye corona virus, hari umugore impande ye ucigatiye umwana bagiye gupima, hirya hari undi wambaye ingofero.

Abanyeshuri bambaye impuzankano za kaki aho bagiye ku mugezi utanga amazi mu buryo bwa rusange, bari kuvoma bakaraba intoki. Hari umusore wazamuye ibiganza, ari kutwereka ko intoki ze zikarabye zisa neza rwose, ni byiza.

Umwana ufite akabinika mu ntoki ari kumwe n'umusore ufite akadobo k'ubururu mu ntoki, yunamye ari kureba aho bateretse afite isabu . Inyubako bariho isa n'ishaje ndetse bari imbere ya dushe irimo umuntu uri koga.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya amazi ndetse n'isuku n'isukura mu Rwanda, wasake. Bashyizezweho imigezi mu buryo bwa rusange, aho abantu baza kuvoma, bakishyura igiceri cya makumyabiri ku jerekani.

Abantu batandukanye bicaye ku meza aho harimo abambaye amakositimu, amashati ndetse na karuvati, hakaba harimo ndetse n'abagore babiri bicaye bakikije ameza ndetse buri wese imbere ye hari agasahani karimo utuntu tutagaragara neza.

Abana bateraniye hamwe bambaye udupira dusa n'icunga, hari umugabo uhari uri kugenda abaha amata, ni mu rwego rwo kurwanya igwingira mu Rwanda.

Aha turahabona ivomero rusange aho hari abantu bari kuvoma ariko kandi hakaba hari n'umubyeyi uri kuhogereza umwana mu ibase, ibi si byiza kogereza umwana ku mugezi kuko byangiza ibidukikije.

Abantu benshi cyane harimo abambaye impuzankano zisa ubururu n'umukara, bateraniye ahantu hamwe bari gukoma mu mashyi, aho hari inzobere mu z'ubuvuzi zafashe umwana zimuryamisha ku gatanda gafite amabara y'umuhondo n'ubururu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, aho harimo umukobwa umwe witeze igitambaro wambaye agashati k'iribaya kadozwe mu gitenge, kari mu mabara y'icyatsi n'umuhondo, yambaye ijipo y'ubururu aho yifashe mu mayunguyungu ari kureba umuntu uri ku gafotora.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi cyane bari mu nama, mo hagati muri bo hakaba hahagazemo umuganga wambaye imyenda yikingiye, imbere yabo hari abagabo bari kubakoresha inama, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho insanganyamatsiko bari kwigaho.

Abantu bambaye impuzankano ziri mu mabara y'abantu batera umuti wa malariya, bari ahantu hari ikigo cy'ubucuruzi, aho bari kugenda batangamo serivise zigiye zitandukanye.

Aba ni abantu babiri aho umukobwa umwe ari kuvoma amazi akoresheje ikidobo arikudaha iruhande rwe hicaye umwana uri kureba ibyo uwo muntu ari gukora.

Aha ngaha ni ku ivomero rya rusange aho hari abantu baje kuvoma amazi handitseho ngo ijerekani imwe ni amafaranga makumyabiri y'amanyarwanda ntuyarenze.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe ku ivomero rusange, aho hari umwana uri gupomba ariko amazi akaba atari kujyamo, abo bari kumwe bari kurebera gusa ntawe uri kumufasha, hari n'undi ufite inkoni ku ruhande.

Abana bari mu ishure, umwe muri bo yateye urutoki hejuru bigaragaza ko ari gusaba ijambo hari icyo agiye kuvuga, inyuma yabo ku kibaho hashushanyijeho igishushanyo ndetse iyo nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi cyane, harimo umugabo wambaye ikositimu, aho ari kurebana n'undi mugabo wambaye ikositimu, bakikije ameza, bari mu nama, bari kuganira, bari kuvuga ku buryo ubuvuzi buhagaze ku rwego rw'isi.

Abantu benshi cyane bari mu nama bateraniye ahantu hamwe imbere hicaye abantu batandatu bari kubakoresha iyo nama inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko bari kuvugaho hariho n'umugabo hirya wambaye ikositimu na karuvati.

Abantu benshi bateraniye ahantu hari inkingi y'ubururu ifite imigezi iva impande enye, baje kuvoma bafite ibikoresho byiganjemo ibifite amabara y'umweru.

Abana benshi bishyize hamwe, barunamye mbese ubona ko bishimye, bafashe ku kantu k'agati gashinze hasi, bari kureba umuntu uri kubafotora, hirya yabo hari ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, barahagaze bigaragara ko bari kurebana n'aba bantu babasuye, hari kandi n'umwarimu wigisha abo banyeshuri.

Umusaza w'umujyanama w'ubuzima yambaye bote z'umweru yagiye gusura umugore' umugore nawe acigatiye umwana aho ari kugenda amubwira uburyo yakwita ku mwana we kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari umugore wambaye agapfukamunwa wagiye kwa muganga, none muganga akaba yamushyize icyuma ku kizigira cy'ukuboko, kugira ngo arebe ko nta muvuduko w'amaraso arwaye.

Umwana ukiri muto uri kunywa amazi ku ivomero rusange, aho yateze intoki amazi akaza agahita ayanywa, hirya hari ibijerekani byavomewe byo birimo amazi.

Umusore wicaranye na muganga, muganga yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, afite igitabo mu ntoki ari kwandikamo, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo: " Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye."

Abana bagera muri batatu bambaye imyambaro y'impuzankano, bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuko imbere ya bo hari robine eshatu ziri kuzana amazi. Ni byiza ko abana batozwa kumenya gukaraba intoki hakiri kare.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho buri wese akikiye umwana cyangwa utamukikiye umwana akaba ahagaze imbere ye, aba ni abagore baje gukingiza abana babo kwa muganga.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda idoze mu bitenge, yagiye ku ivomero rusange, aho yateze amazi ku ivomero ari gukaraba intoki, hirya ye hari amajerekani agera muri atatu, abiri y'umuhondo ndetse n'indi imwe y'ubururu.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero rusange, rya rindi bavoma bari gupompa. Afite indobo zigera muri eshatu imbere ye, aho yunamye imbere ya robine, ategereje ko haza umuntu umupompera, hanyuma akabona kuvoma.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bishimye, harimo ufite mikoro bigaragara ko bari gususurutsa abafana bitabiriye kuri uyu munsi. Ni byiza cyane ko twajya tunyuzamo tukanshima.

Georgia Global Health Alliance; iki ni ikigo giherereye mu gihugu cya Georgia, aho cyita ku buvuzi ku rwego rw' isi bagakorera hamwe, kugira ngo hatagira umuntu ugira ikibazo.

Abamama bateraniye hamwe kwa muganga, aho buri wese akikiye umwana we, bigaragara ko bagiye kubakingiza, ni byiza cyane rero kujyana abana kwa muganga, kubakingiza kugira ngo muganga abakingire urukingo rubarinda indwara ya kanseri.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Sabin NSANZIMANA akaba ari kandi na Dogiteri akaba yambaye ikositimu ry'umukara ndetse na karuvati y'umweru.

Uyu mudamu wambaye akajiri ndetse n'akantu ka kabaji, ari guha abantu bose iyi mfashanyigisho mu bijyanye n'uburyo bakwita ku buzima bw'abantu, bari kubigisha uburyo bakwita ku buzima bwabo, ari hamwe n'abaturage benshi, ku buryo bafata ubuzima bakabubungabunga ku isi yose.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri bateraniye hamwe ahantu hari utugega tw'ubururu, twagiye dushyirwaho tuba turimo amazi, bafite ibikombe mu ntoki aho bari kuvomamo amazi yo kunywa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Aha ni ku ivomero rusange, aho turi kuhabona abantu batatu; abagore babiri ndetse n'umwana umwe. Umwana akaba ari kuvomesha, abo bagore baje kuvoma bafite amajerekani, imbere yabo. Hirya hari insina ndetse n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako ifite ibikuta n'inkingi by'umweru, bakaba bambaye utujirI dusa icyatsi ndetse n'udupira twa oranje, bari kwifotoza bigaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, yegamiye ahantu ku gikuta cya sima, arebye hejuru, ari gutekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, utabasha kumenya, umubonye wamwegera, ukamuganiriza, ukamuhumuriza, kugira ngo atarushaho kwiheba.

Abantu bateraniye ahantu hamwe harimo bamwe bafitanmye abandi bahagaze, biragaragara ko bari kwifotoza, ni mu cyumba kigari gitangirwamo ubufasha bw'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Inyuma hari ifoto iriho umugabo wambaye ikositimu ku rukuta.

Aba bantu bari ahangaha bafashe ku mutwe w'igishushanyo, ikigaragara ni uko biri kuvuga ibigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'imibereho y'ubwonko, uburyo bukora n'uburyo umuntu yabubungabunga.

Umugabo wambaye amakositimu wunamye, imbere ye hari indabyo nyinshi, hirya ye hari umukobwa w'umukorerabushake wambaye akajiri ndetse n'agapira k'umutuku, inyuma ye ku gikuta handitseho amagambo mu ibara ry'umweru adasomeka.

Abantu babiri arimo umwe ufite ikibazo cy'ihungabana aho yitangiriye itama ashoboye kuba afite uburwayi bwo mu mutwe, ari kumwe n'undi uri kumuhumuriza amuganiriza kugira ngo ntiyihebe.

Abana bishimye cyane bari guseka bakaba bambaye imyenda isa icyatsi. Biragaragara ko bishimye ariko bafite ibibazo by'imitekerereze, wagirango ngo barwaye mu mutwe biragaragara.

Umusaza wicaye hasi wambaye amapingu, iruhande rwe hari abakozi b'inzego zishinzwe umutekano, bakaba bamushyizeho utuntu tw'udufoto iruhande rwe, bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, no mu mabara y'umweru, hariho uruziga rurimo ifoto y'umugabo w'umuganga wambaye itaburiya, bigaragaza ko ari we uzatambutsa inama,

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara uruhande rumwe, akaba ahagaze imbere y'inyubako isize irangi risa na oranje, ndetse hari n'imikindo ku mpande bigaragara ko ari ibiro by'akarere.

Abantu bicaye bari mu nama, bicaye ku ntebe zigezweho z'umukara. Imbere yaho hari ameza abaje mu giti. Bari kureba umugabo uri imbere, ndetse hari n'undi wicaye. Hari ibyapa bivuga ngo "Dutewe ishema n'ahahise hacu".

Abantu bafite siteresi baba bagomba kuganira, nk'uko tubibona uyu mukobwa wambaye ingofero n'imyenda y'umutuku arababaye, ariko uyu wambaye amadarubindi n'imyenda y'umukara ari kumuganiriza amuhumuriza biragaragara ko afite ubumuntu.

Abantu basa neza bishimye bifotoje bari bashoje inama, hirya yabo hari icyapa kivuga insanganyamatsiko bavugagaho barishimye baranezerewe.

Abantu benshi cyane bicaye, bari mu nama nyunguranabitekerezo. Harimo abagabo, abagore, ndetse n'abandi bantu b'ingeri zose. Imbere hari umugore uhagaze, washyizeho insakazamashusho iri kwerekana ingingo bari kuvugaho muri iyo nama.

Umugabo uhagaze wambaye imyambaro y'abayisilamu inyuma ye hari abantu benshi cyane, uyu mugabo biragaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe kuko ari kureba ari gupyinapyina.

Emuhabu (m hab), iki ni ikigo cyita ku bantu bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe cyangwa indwara z'ihungabana, aho bagenda bakabafasha kugira ngo bikire.

Umumama wambaye amadarubindi, akaba yambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu, akaba afite agapapuro mu ntoki, kagaragaza ko abafite uburwayi bwo mu mutwe na bo bashobora kuganirizwa bagakira. Ari imbere y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Inzu irimo umugore n'umugabo, inyuma yabo hari ibyapa byanditseho ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, umugore afite indangururamajwi ari kuvuga.

Abantu bihagaze bari mu nama bambaye impuzankano z'umukara n'abambaye iz'umweru, ameza bariho ariho ikintu cy'umutuku cy'umubumbe ndetse akaba ariho n'ibitambaro bisa umukara.

Abantu barwaye mu mutwe bakunze kwicara bigunze, ni byiza ko igihe ubabonye ushobora kugenda ukamuganiriza cyangwa ukamujyana ku kigo cyita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bakamuganiriza.

Abarwayi bo mu mutwe rero baba bagomba kwitabwaho; nk'uko tubibona hari umugabo ufite agakoni nk' ak' abatahira. Afatanyije n'umukecuru wambaye urunigi nk'urw'abatahira, bafashe umuntu w'umurwayi ari kugenda arebye hasi.

Umumama ufashe ijambo ari kuvuga akaba ari umugore wa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul KAGAME yitwa Jeannette KAGAME ari kubwira abanyarwanda ku byerekeranye n'ubuzima.

Abantu bicaye ku ntebe nziza cyane z'ubururu bari mu nama, imbere yabo ku meza harambitse ibitambaro by'ubururu ndetse n'amazi imbere ya buri wese, hari umudamu uhagaze imbere wambaye ikanzu y'umweru ufite ijambo ari kugira icyo ababwira ku ndwara zo mu mutwe.

Umumama wikoreye igitebo kirimo ibijumba n'imijumbajumba akaba ari imbere y'inzu yubakishije amategura, inyuma ye hari ikidadoki biragaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho bari gufata ifoto y'urwibutso. Bari bari mu nama none irarangiye, bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo babone uko batanga raporo. ab'imbere bafashe icyapa mu ntoki cyanditseho insanganyamatsiko.

Abantu benshi batandukanye bahagaze bari kwifotoza harimo kandi n'umuntu ushinzwe umutekano, inyuma yabo hari ibyapa bitatu, hari kimwe cy'ibumoso cyanditseho amagambo ibara ry'umutuku Kakiru.

Abantu batandukanye bari mu nama, imbere hahagaze umugabo ufite icyari kuvuga, hari n'icyapa cyanditseho ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Umugore uri guseka wambaye akajiri ka MTN akaba ari mu nzu itangirwamo serivisi z'ubucuruzi bw'imiti; ariko uyu mugore uko bigaragara ashobora kuba arwaye mu mutwe kuko nta mucuruzi useka gutya.

Aha ni abantu bari kwamamaza aho batanga ibikorwa byo gufasha abantu bafite ihungabana sitiresi aho babagira inama, byanditse mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi hirya hari ikirango kibigaragaza.

Ni inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho ifite ubusitani imbere yayo ndetse hakaba hari n'ibyapa, hari icyapa kivuga ngo murakaza neza ku bitaro bya Munini disitirigiti ni ukuvuga ngo ibitaro by'akarere ka Munini.

Abantu benshi batandukanye, bambaye imyambaro y'ubururu y'impuzankano, harimo n'umugabo wifozanyije hamwe nabo wambaye karuvati, biragaragara ko ari abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa wirabura wambaye agapira k'umutuku akaba ari kumwenyura afite umusatsi ukiri muto, inyuma ye hari inzu iteye irangi ry'umweru ari gutekereza ku hazaza he.

Umumama wambaye ibitenge ndetse n'amaribaya, akaba ari guteka igikoma hanze ku mashyiga ya gakondo, hirya ye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umukecuru uri kugaragara nkaho afite akanwa kamwe yiteze igitambaro cy'umweru ndetse akaba afite uburwayi bwo mu mutwe, akeneye ko hari umuntu wamwegera akamugani. Ni byiza rero kuganiriza abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Iyo uhuye n'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, iyo ubarebye ugira ubwoba. Reba nk'uyu mumama yakunje isura, yariye kamayu, muhuye urabona ko wakizwa n'amaguru, utirutse yakumera ruseke.

Abantu b'amama bagera muri bane, bicaranye n'umugabo washyizede ukuguru hanze y'urukweto, yambaye imyenda yatebeje, inyuma yabo hari insina ndetse n'ibiti byinshi cyane.

Abantu babiri bicaye b'abirabura, harimo umugore ufite imisatsi miremire, afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga ku buryo abantu bafite indwara zo mu mutwe baba bameze.

Ni byiza ko umuntu yazajya yicara ahantu akitekerezaho akumva uko ameze, hano turi kubona umuganga afite siteresi nyinshi ari kwitekerezaho arahangayitse, ni byiza kumuganiriza igihe umugezeho kugira ngo umuhumurize.

Ni muri sale itangirwamo serivise zigiye zitandukanye, aho turi kubona abantu bicaye, bakurikiye umuntu uri imbere, uri kubabwira, wambaye ishati y'umutuku. Ku meza ye hateretse agacupa k'amazi.

Umugore mwiza cyane wambaye agakote k'umukara, akaba yambaye ikanzu y'umutuku. Ari kureba imbere, ari guseka, aho bigaragara ko ameze nk'ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bicaye hari n'abahagaze, bakaba bari ku mbuga iteye amapave. Aba bantu bari gufata ifoto, bigaragara ko buri bari mu nama none bakaba bayishoje, bari kwifotoza.

Abana benshi cyane bari guseka bishimye bigaragara ko bafite imitekerereze myiza, batekereza neza kuko baba banyweye icyayi cy'u Rwanda. Bose barishimye ndetse ni benshi.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, bigaragarira no ku ndoro yiwe, ari kurira afite ibimwira nta suku afite, mbese kumureba uri kubona ko bidashimishije cyane ateye imbabazi. Wamusengera nawe.

Imodoka yo mu bwoko bwafuso y'umweru ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu mu rurimi rw'icyongereza, ushyize mu kinyarwanda wavuga ko ari umunsi wo gutaha ibitaro byita ku ndwara zo mu mutwe biherereye i Bugesera.

Umusore uri kutwereka agakoresho yifashisha asukura amenyo ye yambaye agapira karuniga imbwa ariko arishimye cyane ari gutunga urutoki ako gakoresho.

Umwana muto wagiye kwa muganga aho bari kumukura amenyo bigaragara ko yari ayarwaye ni byiza rero kunyarukira kwa muganga mu gihe ufite ikibazo cy'amenyo bakayakura kuko uko atinda niko urushaho kuribwa cyane kurushaho.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye hazwi nko kwamuganga, hari abaganga babiri, umwe yambaye amadarubindi afite igipapuro mu ntoki ari kwandikaho, undi nawe ari inyuma ari kwishima, ni umukobwa mwiza wirabura ariko useka neza amasaro agaseseka di.

Inzu itangirwamo serivisi zo gukura amenyo, harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa, hari intebe zisa umukara, zifite amapine ndetse n'akabati gafite insazamashusho hejuru yako.

Iyi shusho iratwereka uburyo amenyo aba ateye mu mubiri w'umuntu harimo ururimi ndetse n'amenyo n'imizi yayo, iki ni igishushanyo ntabwo ari amenyo mazima.

Umusore ugeze mu kigero y'imyaka nka mirongo itatu n'itanu, akaba ari gukorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, afite umusatsi muke ndetse n'ubwanwa buke, yambaye ubusa hejuru.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, cyane cyane ubwita ku ndwara z'amenyo. Haba harimo intebe zabugenewe, umurwayi yicaraho ndetse n'izo muganga yicaraho, kugira ngo barebe indwara umurwayi arwaye.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe aho yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ari kwandika mu ikayi, imbere ye hari ibyuma bifashisha bari kuvura bisa umweru ndetse bitandukanye.

Umusore uri gusukura amenyo ye akoresheje urudodo, akaba ari kureba mu ndorerwamo, yambaye agapira k'umweru n'umusatsi yateretse utari mwinshi cyane, ni byiza cyane gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo.

Umwana urwaye wagiye kwa muganga, muganga akaba afite ibyuma ari kureba iryinyo yarwaye ngo arekure ni byiza ko igihe twarwaye amenyo twihutira kujya mu buvuzi bugezweho bakayakura aho kujya muri magendu.

Umugabo wicaye mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho yicaye ku ntebe ivurirwaho abantu barwaye amenyo akaba iyo ntebe ifite amapine uwo mugabo ni umuganga kuko yambaye itaburiya y'abaganga.

Umugabo n'umwana we bambaye udupira tw'umweru bose barashinyitse bafite indodo bakoresha basukura amenyo. Uri kubona ko bari kuyasukura ameze neza ndetse barishimye bari kutwigisha natwe uburyo twajya tuyasukura.

Umusore uri guseka wambaye agapira k'umweru aho afite urudodo mu ntoki ari kugenda akoresha mu gihe ari gusukura amenyo ye ,ni byiza rero gusukura amenyo yawe ukoresheje urudodo kuko bituma nta mwanda na muke usigaramo bikakurinda indwara z'amenyo.

Umwana ukiri muto aho ari guseka, muganga nawe yambaye uturindantoki ari kugenda yita ku menyo ye ngo arebe ko amenyo ye ameze neza atari impengekerane.

Aha turabona igishushanyo kitwereka ingeri z'amenyo zigiye zitandukanye. Hari urutoki rwambaye ga z'ubururu ruri kuhatunga urutoki, batubwira ngo ni byiza ko tugirira amenyo yacu isuku.

Umugabo ufite umuti w'amenyo aho agiye kuwukoresha yivura amenyo ndetse anayoza, bigaragara ko uyu muntu ageze mu zabukuru, ari mu nzu y'umweru.

Umusore wambaye amadarubindi akaba ari guseka yambaye n'agapira k'umweru ari kutwereka ko afite amenyo meza. Ni byiza kugiririra isuku amenyo yawe kuko bituma amera nk'aya ngaya. Gura umuti w'amenyo uyagirire isuku nonaha.

Umuganga uri gusuzuma umurwayi indwara arwaye. Umurwayi arasamye, ndetse muganga yambaye agapfukamunwa n'uturindantoki, afite n'imisatsi myiza ari kureba indwara umurwayi arwaye. Hirya hicaye abandi bantu bari kwandika.

Umwana uri mu ishuri wambaye impuzankano ari kumwe n'umuganga uri kumwereka ikibumbano gikoze nk'ishinya y'amenyo ari kugenda amwereka buri ryinyo uko yitwa, hirya hari abandi bantu bari imbere ku kibaho bari kubitegereza.

Inzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho harimo udutebe abantu bicaraho bari kubakura amenyo, hari kwakamo amatara y'umweru ndetse iyo sale ifite amabara y'umweru.

Aya ni amenyo ndetse n'imizi yayo, aho bari kutwereka igikanka ndetse nuko imizi y'amenyo iba igiye iteye, ni byiza ko dusobanukirwa, ibijyanye n'amenyo yacu.

Umukobwa uri gukorera isuku amenyo ye, aho yiteze igitambaro cy'umweru, yambaye agasengeri k'umweru, aho ari kugenda ahanagura amenyo ye akoresheje uburoso bw'ubururu, ari no kwirebaba kandi mu ndorerwamo.

Umukobwa uriguse cyane wamwenyuye aho ari kutwereka ubwiza bw'amenyo ye, si amenyo gusa ahubwo no mu maso ni mwiza cyane, ariko iyo umuntu agiriye isuku amenyo ye ituma aseka abari aho bakishima ndetse amasaro agaseseka.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi cyane cyane ubwita ku menyo, hari umugabo wicaye ku ntebe yabugenewe aho muganga yamwasamishije ari kugenda areba amenyo ye ko nta kibazo afite.

Abantu benshi bicaye, bambaye impuzankano zanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, izo mpuzankano zisa icyatsi, abandi bambaye z'umweru, imbere yabo ku meza hari igitambaro cy'umweru ndetse n'umuti w'amenyo.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'umukara akaba asa inzobe, ari kumwe n'umusore nawe wambaye agapira k'umweru bafite indodo bakoresha basukura amenyo, bari kwireba mu ndorerwamo.

Umusore uri kwireba mu ndorerwamo ari guseka afite imisatsi izinze, yambaye agapira k'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo afite urudodo aho arukoresha asukura amenyo ye.

Umugabo uri guseka; afite urudodo akoresha asukura amenyo ye, urabona ko ari neza cyane rwose, nawe nakugira inama yo kuzajya ukoresha urudodo mu gihe usukura amenyo yawe; bizayarinda gukuka.

Umwana ukiri muto wicaye ku ntebe y'ubururu uri koza amenyo, yatojwe kugirira isuku amenyo akiri muto, ni byiza cyane ko nawe watoza umwana wawe kugirira isuku amenyo y'iwe kuko byazamurinda kuyakuka mu gihe kiri imbere.

Abakobwa babiri bari guseka cyane hari n'umukecuru ufite imisatsi isa umweru aho bari kumuha serivisi zihabwa abantu bageze mu za bukuru kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe basa n'abakuze, hari umuganga wambaye akajiri k'umukara ari kugenda abitaho buri wese amuhereza akantu katari kugaragara neza, ngo ajye akifashisha, hanyuma ubuzima bwe bugende neza.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hazwi nko kwa muganga, hari umusaza uri guseka, aho hari umukobwa uri kumwitaho w'umuganga, akaba afite igipimo yamushyize mu maboko ngo arebe ko nta muvuduko w'amaraso arwaye.

Umusaza ufite akantu k'umuhondo ari kugenda akurura bigaragara ko ari muri siporo, imbere ye hari umuntu umeze nkumuganga ari kugenda areba ko ari kubikora neza, bari mu nzu iteye amarangi y'umweru.

Abamama bageze mu za bukuru, aho bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri, bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'umukara, harimo n'uwambaye ishati y'ubururu n'undi wambaye ikanzu idasa nk'imyenda yabo.

Umukecuru n'umusaza bari kwitegereza agacupa k'umukara umusaza afashe. Umukecuru afite mudasobwa imbere ye. Yambaye n'amadarubindi. Imbere y'umusaza hari igitabo ndetse n'udupipa tubiri turimo ibinini.

Abantu batandukanye bicaye bakoze uruziga munsi y'ibiti by'inganzamarumbo, biragaragara ko ari abantu basheshe akanguhe baje mu kagoroba k'ababyeyi kuganira ku bibazo runaka byaba bihari.

Umusaza uri kunywa ibinini ari kumwe n'umukecuru, aho umusaza bari kumwereka imiti agomba kunywa ku meza hateretse ikirahure kirimo amazi ndetse n'ivazi irimo ururabo.

Umusaza ugeze mu za bukuru, yambaye agapira k'ubururu ateruye icyuma mu ntoki kizwi nka ariteri, ari kumwe n'umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, ari kugenda amuyobora uko agomba gukora kugira ngo amererwe neza.

Umusaza uri gusoma igitabo afite agakoresho bakoresha batwara mudasobwa imbere ye, afite n'ikirahuri kirimo amazi meza yo kunywa imbere ye, ni byiza kunywa amazi mu gihe umuntu aba ahuze kuko biramufasha cyane.

Uyu ni umukecuru ufite agacupa, ari gusuka ibinini, ari kunywa imiti yandikiwe na muganga kugira ngo azakomeze agire ubuzima bwiza. N'ingenzi gukurikiza amabwiriza tuba twahawe n'abaganga.

Umusaza n'umukecuru we bari ahantu iwabo ku meza umusaza ari guseka aramwenyuye yambaye n'amadarubindi bombi bari guseka. Imisatsi yabo bose irasa umweru yabaye imvi.

Umugabo ugeze mu zabukuru ufite akada katuze ishati, ari kuganira n'umuganga mwiza w'inzobe amuhumuriza, amubwira uburyo agomba kwitwara kugira ngo atazagira ikibazo.

Umusaza wagiye kwa muganga bakaba bamushyize ku cyuma bakoreraho siporo kugira ngo azajye yigorora atazasaza agondamye. Uri kumuha izo serivisi ni umuganga w'umukobwa w'inzobe.

Abantu benshi bicaye harimo aba mama ndetse n'abana babo, bicaye bari kureba imbere aho uyu mubyeyi akikijwe n'abuzukuru be. Ni byiza kubyara neza hanyuma wagera mu za bukuru abuzukuru bawe bakakuba hafi.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho ari gusindagizwa n'umwana we w'umukobwa wambaye agapfukamunwa, akaba ari kugenda amufata amwereka aho agomba kunyura kugira ngo adasitara cyangwa ngo ahungabane.

Umusaza ugeze mu za bukuru, akaba afite agakombe ari kunywa amazi, ayahawe n'umukecuru. Bari munzu nziza cyane ifite ibikuta by'umweru. Ni byiza kugira umuntu ukwitaho mu buzima.

Umwana mutoya aho ari kumwe na se bari gukina umukino wa basket. Umwana afashe baro mu ntoki ari kugenda acenga se, ise na we agerageza kwataka. Ubu ni uburyo bwiza bwo gukora imyitozo ngororamubiri.

Amoko menshi cyane agiye atandukanye y'imbuto zikwiye guhabwa abantu bageze mu za bukuru, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, zigiye ziri mu mabara menshi agiye atandukanye, aho ziri mu mabara y'umweru, umutuku, umuhondo, umukara, icyatsi n'ayandi.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, bakaba bari kuganira, hakaba haje umuntu wambaye amadarubindi ukiri muto w'umuganga ari kubagira inama, hirya hari abandi bagera muri batatu bageze mu za bukuru, bari kuganira.

Umukecuru ugeze mu gihe cy'izabukuru, aho ari gukora siporo ngororamubiri. Yambaye inkweto nziza cyane za supuresi, n'ipantaro y'ikoboyi. Ari mu nzu ifite amarange asa umweru.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, aho afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, akaba ari kunywa imiti yandikiwe na muganga, yambaye amadarubindi ndetse yambaye n'agapira k'ubururu, imisatsi ye ni imvi.

Umugabo uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ari gutera mucaka, ari kumwe n'umukecuru, bose barishimye, bari guseka, bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo batazananuka.

Umukobwa uri gukora siporo, aho yicaye, yambaye ipantaro y'umutuku, akaba yunamye ndetse asutse imisatsi ya menshi. Akaba yicaye ku kantu kameze nka matera, hirya ye hari ubusitani burimo indabyo nziza cyane, hari n'ibiti by'imikindo.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho afashwe n'abana be, uw'umuhungu n'umukobwa, bakaba bari kumusindagiza kugira ngo barebe ko yatera agatambwe akaba yananura imitsi ye.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu mu murima, barishimye bamanitse amaboko harimo umanitse telefone n'agafuni, biragaragara ko ari abahinzi kuko bahagaze imbere y'umurima w'ibigori.

Umusaza ushaje w'mvi afite ikaramu mu ntoki, ndetse yambaye amadarubindi ari gusoma igitabo, ni byiza ko iyo umuntu ageze mu za bukuru ajya yicara hamwe agasoma igitabo akaruhuka mu bwonko.

Umusaza ufite mudasobwa imbere ye, n'ubwanwa bwabaye umweru, ari kumwe n'umukobwa wambaye agapantaro k'umukara, n'agapira k'umweru karimo utudomo. Ari kumuha imiti umusaza agomba kurya ku munsi.

Umusaza ugeze mu zabukuru ariko akaba yaramugaye agendera mu kagare, hari umukobwa we umusunitse ari guseka muri ako kagare, bigaragaza ko uno musaza yishimye, hirya hari inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hari n'ubusitani bwiza.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru bari kureba ku gapapuro umukecuru afite, imbere yabo hari ikirahure kirimo amazi, umusaza ari kugenda asomaho nibyiza kunywa amazi nkuko bigira akamaro.

Umusaza ugeze mu za bukuru aba akeneye gukora siporo, hano umwana ukiri muto ari kumwitaho w'umuganga ari kumwereka ahantu arajya arazamuka kugira ngo yumve amerewe neza aruhuka akore siporo.

Umusaza ugeze mu za bukuru, ari kumwe n'umwana we w'umukobwa, bari kureba mu gitabo bishimye baseka, bigaragaza ko amashusho arimo ashimishije cyane, impande yabo ku meza hateretse udukombe turi mu mabara y'umweru.

Umuntu uhagaze afite ikirango kiri mu ibara ry'umukara cyanditseho bibiri na mirongo itatu, si umwe ahubwo ni babiri, ni umusore n'umukobwa inyuma yabo hariho icyapa cyanditseho insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'ubuzima. Hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda, kirimo igiseke ndetse n'ingabo. Handitsemo ngo " Ubumwe, umurimo, gukunda igihu". Icyapa kirasa ubururu.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru n'umukara, hashushanyijeho ubwonko bw'umuntu uri gutekereza cyane, bigaragara ko ashobora kuba ahangayitse.

Abantu bicaye bari mu nama aho harimo abagabo n'abagore bagiye batandukanye ubona ko bameze neza cyane rwose. Inyuma yabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'inama bavugagaho.

Aha turi kubona umugabo wambaye ikositimu na karuvati uhagaze ku ruvugiro, bigaragara ko hari inama ayoboye mpuzamahanga akaba ari kubwira abantu bo muri Afurika.

Abaganga bambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu, aho bafashe ku byuma byabugenewe bakaba bari gusuzuma ngo barebe uko bikora neza, hanyuma bazabivuze abarwayi nta nkomyi.

Abantu bicaye ahantu hameze nk'aho ari mu cyumba cy'inama, bakaba bari kugirwa inama n'umuntu uri kubakoresha inama, ari kubabwira uburyo bakwirinda indwara zigiye zitandukanye, zifata umubiri wabo zikawugiraho ingaruka.

Abantu bifotoje bari mu cyapa, icyo cyapa kikaba ari icya mpande enye, hari kureberamo abantu bagera muri bane, icyo cyapa rero cyanditseho amagambo y'umweru.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo y'ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, ayo magambo akaba yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bazamuye amaboko ubona ko bishimye cyane, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku, bigaragara ko bishimye neza cyane.

Icyapa kigaragaza uburyo indwara ya diyabete igomba kwirindwa buri cyumweru. Hariho ahanditseho cumi na gatatu, cumi na kane ndetse na cumi na gatanu.

Iyi ni icyapa gishushanyije mu buryo bw'umutima, handitseho ngo: turi urungano kandi tuzabikorera hamwe, byanditse mu magambo y'umweru ashushanyije mu buryo bw'umutima bavuga ngo bigire inshingano zawe.

Umugabo witwa Noheli Gahamanyi, akaba akora mu bijyanye n'ubuvuzi bwo kongera imbaraga. Yambaye ishati y'umweru ndetse inyuma ye hari ibyatsi.

Utu ni utuzu tugera muri turindwi aho twanditsemo amagambo agiye atandukanye yerekana uburyo twakwirinda indwara zigiye zitandukanye hari ak'ubururu ,umukara , ibara risa n'icunga ndetse n'icyatsi.

Abakobwa benshi cyane bambaye udupira tw'umweru n'amapantaro atandukanye bahagaze bari kurebera mu bintu bya mpande enye biri mu mabara y'umutuku bigaragara ko bari kwamamaza serivisi zibera ahongaho zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu babiri bahagaze harimo umusore wambaye ikositimu na baji ndetse n'umukobwa wambaye baji gusa n'agakanzu kagufi bari imbere y'icyapa cyanditseho ibintu bitandukanye.

Icyapa cyanditseho ngo NCD bivuga ngo nta ndwara dushaka yandura. Hari igikuteri cy'ubururu n'umweru.

Abantu batandukanye bari kugaragara kuri iyi foto, aho harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, bari kutwereka uburyo twakwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa karimo umuti wifashishwa bavura ubushita bw'inkende, gafite umupfundikizo w'icyatsi n'ibara ry'umutuku, ako gacupa ubwako kakaba gasa umweru. Ni ngombwa ngo twirinde ubushita bw'inkende.

Abantu benshi bateraniye hamwe bagera muri bane bambaye impuzu z'umweru bakaba bafite utwapa turi mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku, aho batubwira ngo kwirinda biruta kwivuza.

Iki ni ikigo gishinzwe ubuzima ku Isi, aho hashushanyije ifoto y'umugabo uri guseka, hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara na kode basikana.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari mu mabara y'umukara, hari n'ayandi yaditse mu mabara y'umweru ari ahantu hasa ubururu, hariho n'ifoto y'abana batandukanye, hejuru hariho ikirango cy'umuryango wita ku bana ku Isi uzwi nka Unicef.

Abantu benshi bahagaze bari kwifotoza harimo n'umudaso ushinzwe umutekano ndetse n'umuzungu. Inyuma yabo hari icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho muri iyo nama.

Ikigo giherereye muri Africa y'iburasirazuba cyita kubushakashatsi mu bijyanye n'ubuzima, gifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Iki ni icyapa cy'uruziga cya Rwanda Allied Health Professinons Council, aho kiri kugaragaza inama yabaye habaho uburyo bwo kwirinda indwara zijyiye zitandukanye.

Abagabo babiri n'umugore umwe uri hagati, bafashe icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'icyatsi. Bari kwamamaza uburyo washobora kwirinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ntizikugereho.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru ngo kuboneza urubyaro, hasi handitseho imyaka icumi mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru atagaragara neza.

Umurwayi urembye cyane, yagiye kwa muganga none abaganga baje ari benshi, bambaye impuzankano zisa icyatsi n'udupfukamunwa, bari kumwitaho ngo barebe ko bagarura ubuzima bwe. Hirya insakazamashusho ebyiri ziri kwaka.

Icyumba gitangirwamo inama zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi, harimo abantu bitabiriye iyo nama aho imbere hari abantu bagera muri bane bari kubakoresha iyo nama, hari n'umukobwa ufite indangururamajwi ari kuvuga, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi ikaba ifite inzugi zisa umuhondo n'ibirahuri byiza bibonerana ndetse hejuru ikaba isize irangi risa nk'iy'ivu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi nta muntu n'umwe ukirimo ariko ibikoresho byose byifashishwa birimo gifite inkuta ziteye amarangi y'umweru.

Ni mu nzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi bw'amaso, aho harimo ibikoresho byose byifashishwa. Muri iyi nzu nta muntu urimo. Ariko harimo intebe z'icyatsi, iz'umukara, hari na mudasobwa iteretse ku meza ifunguye.

Iki ni icyapa kigaragaza ahantu hari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi iyo nyubako ikaba ikikijwe n'umuhanda wa kaburimbo ndetse n'agahanda abanyamaguru banyuramo hirya hari ibiti byinshi cyane.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, kirarombeje ndetse amatara mu imbere ari kwaka. Ni byiza cyane ko kwa muganga haba hari kwaka amatara, ku buryo umuntu wese uzaba ari kugendamo azajya aba areba.

Inzu mberabyombi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho irimo ibikoresho bakoresha kwa muganga, bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane imanitseho icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda. Hanze haparitse imodoka zigiye zitandukanye, iyo nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa.

Ahangaha ni ahantu hari mu muhanda wa kaburimbo, ndetse mu kigo gitanga serivisi z'ubuvuzi. Hakurya hari umusozi mwiza cyane ndetse n'inyubako zisakaje amabati atukura.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya aho gifite amarembo y'umutuku gisakaje amabati meza cyane y'ubururu, cyubatswe mu buryo bwa etaje kandi kikaba gifite ibikuta bisize amarangi y'umweru.

Inzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byose bitandukanye, harimo intebe ndetse n'ibitanda, ibikuta by'iyi nzu biteye irangi ry'umweru harimo n'amakara.

Inyubako nziza cyane ifite umureko w'iwicyatsi n'amadirishya by'icyatsi hakaba harimo umuntu uri gutambuka wambaye itaburiya n'agapfukamunwa bigaragara ko ari umuganga aha ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ibirahure, mo imbere harabonerana, hashushanyijeho n'amafoto y'abantu. Iyi nzu ikaba itangirwamo serivise z'ubuvuzi. Aho hasi hashashemo amakaro meza abengera.

Mi mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, aho iyo nzu ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru, ikaba irimo udutebe twiza ndetse n'ibitanda abarwayi baryamaho, ndetse harimo n'ibishushanyo bitandukanye by'amabara menshi.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu buvuzi, harimo intebe zifite amabara y'ubururu ndetse inyinshi muri zo zifite amapine.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo abaganga benshi bagiye batandukanye, icyo cyumba giteye amarange agiye asa umweru, harimo kandi n'insakazamashusho ebyiri zizimije.

Abantu bateraniye hamwe bahagaze bambaye udupfukamunwa, aha bahagaze hakaba ari ku kigo cyitwa isange one stop center Kabutare hotpital, biherereye mu karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo.

inyubako nini cyane ndetse ngari, aho irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, mo imbere harimo abana bashushanyije ku gikuta ndetse n'ibikoresho bakoresha bari kuvura.

Ahantu hagari hacururizwa imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi, aho imbere hari urugi rufunze amatara yo mo imbere ari kwaka ndetse hashashemo na sima.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi, aho turi kubona icyapa kiriho umugore wambaye amadarubindi kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwa etaje, ifite amabati atukura, imireko y'umukara ndetse ikaba ifite ibikuta bisize irangi ry'umweru. Akaba ari ibitaro by'akarere ka Shyira.

Aha ni kwa muganga, aho hari umuganga ufite agatanda gasa umweru, ari kwerekeza ku kintu gisa ubururu, kugira ngo kirebe ko umurwayi uraza kuba ari ho mu kanya kari imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu matafari ahiye. Kikaba ari igipangu. Impande yacyo hari icyapa cyanditse mu mabara y'umweru, hariho n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Aha ni mu nzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho ibintu byose birimo bisa umweru n'umukara, ndetse n'insinga z'ubururu, hari abantu barimo, nta muntu n'umwe urimo.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibitanda bigiye bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi, hari kandi n'amarido y'umweru akaba agenda atandukanya ibyo bitanda.

Ni icyumba gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, aho harimo ibitanda bifite amapine bashyiraho abarwayi, ndetse hagati y'igitanda n'ikindi hakaba hatambitsemo irido, kugira ngo abarwayi batazajya barebana.

Aha ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ahazwi nko kwa muganga, hari inkuta zifite amabara y'umweru ndetse hasi hari imikandara isa umukara, hari ibitanda biryamaho abarwayi n'udutebe dufite amapine tw'umukara.

Icyumba gicururizwamo imiti igiye itandukanye yo mu buvuzi bugezweho butari ubwa kinyarwanda, iyo nyubako izwi nka farumasi, aha rero mu gihe ufite uburwayi bworoheje nakugira inama yo kuhanyarukira ukagura imiti byihuse.

N'umuganga wambaye udupfukantoki na baji y'akazi, ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari gukingira uyu muturage urukingo rwa Covid 19.

Inyubako nziza cyane igezweho yo mu bwoko bw'igorofa, ikaba ifite ibirahure bigiye bitandukanye, ndetse irasa neza cyane n'ikirere kiri gusa ubururu.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye. Ifite inkingi z'umweru, hasi hasa umukara. Ikaba ifite ubusitani bwiza cyane, akaba ari inzu y'ababyeyi. Ni ukuvuga aho ababyeyi babyarira muri materinite.

Izi nzu ya sale itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, aho harimo ibikuta by'umweru ndetse n'amadirishya meza cyane, harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa bavura abarwayi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi kabuhariwe abaganga bifashisha mu kwita ku barwayi, harimo kandi igitanda gifite amashuka y'umweru kijyamaho abarwayi n'insakazamashusho ebyiri.

Ni mu cyumba gitangirwagirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga, aho harimo ibitanda ndetse n'isakazamashusho iri kwaka. Hari ibikuta bifite amarangi y'umweru ndetse n'inzugi z'umukara. Hari igitanda gifasheho amashuka, ndetse gifite n'utwumba ku mpande.

Inyubako nziza cyane, yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite inzugi zisa umweru n'ibirahuri byiza cyane, hejuru hakaba handitseho amagambo ngo Meronenti senta.

Aha ni kwa muganga aho bakirira abarwayi ku kigo nderabuzima, hari abaturage benshi baje kwivuza n'abandi baje kuvuza abana, bategereje ko babakira bagahabwa ubufasha ku burwayi bwabo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bugiye butandukanye kwa muganga, harimo intebe z'amabara y'umuhondo ndetse n'izindi zisa umweru, ibikoresho birimo byose bifite amapine y'umukara.

Ni inzu itangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kureba ko ibyo byuma bikora neza muri iyo saro harimo amarangi y'umweru.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye yubatswe muburyo bugezweho ni iy'amagorofa irageretse ifite ubusitani bwiza ndetse n'utuyira tujyamo turimo amapave kumpande harimo jaride nziza cyane.

Igiti cy'inganzamarumbo, munsi hicaye umugabo wambaye ishati ijya gusa ubururu n'ipantaro y'umukara, yicaye kuri fondasiyo zubakishije sima ndetse n'amabuye hirya hari inyubako iri kugaragara ariko irenga.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore, bamwe bicaye abandi bahagaze, abandi basutamye bigaragara ko bari kwifotoza, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu yanditseho ngo inzu y'ababyeyi materinete.

Abagabo babiri bicaranye bari kuganira umwe yambaye baji y'ubururu bari kumupima ku umuvuduko w'amaraso, undi yambaye akajiri k'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima inyuma yabo hari kizimya mwoto ebyiri ziri mu ibara ry'umutuku ndetse hari n'icyapa cyanditseho irembo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba iteye irangi rijya gusa umuhondo. Iyo nyubako ifite ubusitani bwiza buparitsemo na moto, ikaba yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ariko mu kinyarwanda avuga ngo ni ikigo cy'u Rwanda cyita cyangwa kikarwanya indwara ya kanseri.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, hari abantu benshi bicaye bategereje, hagati yabo bagiye basigamo metero bigaragara ko ari mu cyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, hari umugabo w'umuganga uhahagaze imbere ari kugenda ababaza uko bameze.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibyuma kabuhariwe abaganga bagenda bifashisha, mu gutanga serivisi zitandukanye ku barwayi baje babagana, icyo cyuma kiri mu mabara y'umweru.

Aha ni mu nzu itangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byose nkenerwa, harimo ibitanda by'ubururu n'umweru, amarido y'ubururu, ndetse n'ibikuta by'umweru, hamanitsemo n'inzitiramibu.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho hari utubati bagenda bakurura, bakabonamo imiti yakwifashishwa bavura abantu batandukanye, niba nawe urwaye, wajya ku ivuriro bakagufasha. Si byiza kurwarira mu rugo.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi ndetse na serivise z'ubuvuzi, hari ibyumba bigiye bitandukanye, hari icyumba kirimo ubuhezo bwa mbere n'ubwa kabiri, ari byo ayizoresheni rimwe n'ayizoresheni kabiri.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, iri kwaka amatara y'umweru, hasi ni umweru, ibikuta ni umweru, ndetse hose hose ni umweru, ibigaragara iyo ugiye kwinjiramo ukuramo inkweto.

Aha ni mu ivuriro ritanga ubuvuzi bugiye butandukanye, bugezweho. Iyi ni inyubako itanga izi serivise zigiye zitandukanye. Nawe niba ushaka kwivuza, nakugira inama yo kuhaza, bakaguha imiti.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa ifite amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye imbere yaho hakaba hariho icyapa hejuru cyanditseho ngo king faisal hospital akaba ari ibitaro byitiriwe umwami faisal.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho isakaye neza ifite purafo zigiye kuba umuhondo ndetse n'amakaro y'igitaka.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize amarange y'umweru ndetse n'ibirahuri bijya gusa icyatsi, hejuru hari ikirere gisa ubururu abantu urujya n'uruza bari kugenda mu muhanda w'igitaka wegereye iyi nyubako.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'amagorofa igeretse kabiri, ifite inkuta inkingi n'uruzitiro bisa umweru, umuryango ukaba usa umuhondo uriho icyapa cy'umweru cyanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Nyarurennzi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari inzugi ziri gusa umutuku, hashashemo kandi amakaro meza cyane, ari mu ibara ry'umutuku n'umweru, ibikuta birasa umwero ndetse na parafo ni umweru.

Inzu itangirwamo serivise zigiye zitandukanye, zerekeranye n'ubuvuzi, harasa neza, hafite isuku, harimo insakazamashusho zifunze, harimo ibikuta bisize amarange y'umweru, parafo ndetse n'amatara biraka umweru.

Abagabo babiri bakora mu kigo cy'ubuvuzi bambaye ibyapa byanditseho RBC, impande y'umwe hari icyapa cyanditseho irembo mu ibara ry'ubururu, ku rukuta hari kizimyamoto z'umutuku zifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga kirimo intebe ndetse n'ibitanda abarwayi baryamaho iyo baje kwivuza, gifite ibikuta bisa umweru ndetse no hejuru hasa umweru, hari ibyuma by'umutuku bigiye bitandukanyije ibyo bitanda.

Inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hari kugendamo umukobwa wambaye imyambaro y'ubuvuzi isa ubururu, afite imisatsi y'umukara. Ari gutembera muri iyi nyubako areba ko nta murwayi urimo ariko uko bigaragara ntawurimo koko.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba bicaye ku ntebe za karambarazi, bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hicaye abantu babiri b'abagabo ndetse hari n'undi umwe uhagaze wambaye amakositimu uri kubagezaho ikiganiro.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, by'umwihariko aho bita ku bantu bafite ikibazo, cyangwa bakeneye gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Intebe nziza cyane zikaba zicaweho nta muntu uriho, zikaba ziri mu nzu itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi zigiye zitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, aha ni kwa muganga, hari igitanda ariko nta murwayi ukiriho, hari insakazamashusho ndetse n'igikuta gisize irangi ry'umweru.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zitandukanye zihutirwa kwa muganga. Kiri mu mabara y'umweru, inkuta n'umweru, ndetse harimo n'amakaro y'umweru. amatara nayo ari kwaka mu mabara y'umweru.

Abadamu batandukanye bicaye ahantu muri sare ikorerwamo inama ariko kwa muganga, bakaba bakurikiranye inama. Aba bambaye impuzankano kuko harimo n'abagabo. Impuzankano zisa umuhondo ndetse n'icyatsi.

Aha ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye. Hari amarido ajya gusa umuhondo, hari ibikuta bisize irangi ry'umweru, hari igitanda abarwayi baryamaho kikaba imbere y'aho hari insakazamajwi iri kwaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba ifite umuryango ufunguye, hejuru hakaba hariho icyapa cyanditse mu ibara ry'icyatsi mu magambo y'umweru handitseho ijambo tageti, bigaragara ko ari farumasi icururizamo imiti ya tageti.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Nyanza cyangwa se ibitaro bikuru bya Nyanza. Mu imbere harimo inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, hari n'umunara ndetse n'igiti cy'inganzamarumbo. Urugi rwaho rurasa ubururu rukoze mu byuma, rwanditeho ha ebyiri.

Inyubako yubatse neza irimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi, aho iyo umuntu agiye kwivuza muganga aza agafungura akarebamo umuti wagukiza akawuguha.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho iri mu mabara y'umweru, hejuru harimo purafo n'amatara by'umweru n'ibikuta by'inzu byose birasa umweru, hasi harimo amakaro ajya gusa umutuku.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho nta muntu n'umwe uri kugaragaramo, harimo agatebe kamwe kari gusa umukara, ibikuta byaho birasa umweru ndetse n'amatara aracanye.

Ni abantu batonze umurongo bagiye gushaka serivisi z'ubuvuzi kwa muganga; aho imbere hari abagabo babiri bicaye ku meza afite igitambaro cy'umweru, bambaye udupira tw'umweru; imbere yabo hari umuntu uri mu kagare k'abafite ubumuga.

Icyumba gitangirwamo serivisi nyinshi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi bw'amaso kwa muganga, kimanitsemo ibipirizo by'ubururu n'umweru, harimo kandi n'intebe abarwayi bicaraho bategereje muganga.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru yandikishijweho amagambo mu mabara y'ubururu. Aho hahagaze umugabo hanze wambaye itaburiya wifashe mu mufuka; hari ubusitani hanze ndetse n'amapave.

inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye harimo abagabo babiri bigaragara ko bari gutegura inama hari n'intebe ebyiri umwe imbere ye hari mudasobwa undi mudasobwa irambitse aho yari yicaye bari kwiga ku kibazo cya malariya uburyo bayica.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ikaba ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru hejuru hari kwaka amatara ndetse harimo n'ibikoresho byinshi byifashishwa, harimo intebe zisa umukara ndetse n'utumeza dufite amapine.

umuganga arikwita ku murwayi umurwayi aryamye ku gitanda kumusuzuma ikigaragara uyu mudamu wagira ngo aratwite akaba yaje kubyara.

Umugore w'umuganga wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, aho ari kugenda yita ku murwayi waje amugana, uwo murwayi araryamye ariko ntabwo agaragara neza mu maso.

Umuhanda w'amapave uri kugenda ugana ku nyubako isakajwe amabati atukura ndetse iteye irangi ry'umweru, hino hari inyubako nziza cyane iteye amarange y'umweru, hepfo hari indi nyubako isize amarangi asa ivu, ifite ubusitani bwiza ndetse n'agahande k'amapave kajyayo.

Ni abantu batarenze batandatu, bicaye mu nzu itangirwamo serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, aho bigaragara ko hari ikintu bategereje imbere. Hari intebe nyinshi zibereye aho zisa umukara.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho hari ibitanda byiza cyane bifite amashuka y'umweru n'ubururu ndetse n'amarido y'umweru, aho abarwayi baryama.

Inyubako iriho icyapa gisa umweru, cyubakishije amatafari ahiye, hahagaze abantu bane bari kwifotoza, bigaragara ko bari bari mu nama.

Inyubako itangirwamo serivisi zubuvuzi bwigenga. Hari icyapa cyamamaza kuri opitare rakorowasi diside kwa nyirinkwaya. Naho rwose nawe waza kuhivuriza, ntucikwe.

Inyubako nziza cyane ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, itasakaje amabati asa umutuku. Imbere haparitse imodoka y'ivatiri, ndetse n'uruzitiro rw'ibyuma bisa umutuku.

Inyubako nziza cyane, isize amarange y'umuhondo. Mo imbere hakaba harimo parafo y'umweru, ndetse irimo n'amakaro. Iyi ni inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapira k'umuhondo mu imbere, akaba yicaye mu nzu itanyurwamo serivisi z'ubuvuzi, ariko we akaba ari umwe mu batanga serivisi z'ubuvuzi.

Umwana wagiye kwa muganga akaba ari kumwe n'umuganga ufite imisatsi ya menshi, yambaye itaburiya n'agapfukamunwa akaba ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ikaba iriho imodoka ebyiri imbere yayo, ikaba igeretse kane. Iyi ngiyi ni inyubako y'ibitaro bya kuruwa, yo mu Majyepfo.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru ajya gusa umuhondo ikaba ifite ibirahuri byiza biri mu mabara y'ubururu imiryango y'umutuku hakaba handitseho ngo ikigo cyita ku bafite uburwayi bw'amaso imbere hakaba hari imbuga ngari irimo amapavi.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ya mucaka yiruka, iruhande rwe hari aka vi kanditse mu ibara ry'ibendera ry'u Rwanda, ari ryo umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Iyi ni inyubako yagenewe ubuvuzi, aho turi kubonamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara ndetse n'ibyuma, harimo abantu babiri; umukobwa ndetse n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana wicaye bishimye bicaye ahantu ku buriri bufashe burimo matela nyinshi cyane inyubako yabo ikaba isa n'ishaje ni byiza kwishimana n'umwana kuko bituma anezererwa.

Uducupa tw'umweru dutatu tungana kandi tureture turimo umuti wakwifashisha ushaka gukora siporo aho uwisiga uvuye muri siporo hanyuma ukamererwa neza.

Igikapu gisa umutuku kiba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwa se siporo.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Ariko si ibyo gusa, kurya imbuto na byo ni ingenzi. Imbuto zirimo inanasi, amacunga, imineke, indimu na powavuro birinda indwara na zo zitandukanye.

Ibi ni ibikoresho byinshi cyane biri mu gikapu gisa umutuku, muri ibi bikoresho ushobora kubyifashisha ukora ibintu bitandukanye harimo nka siporo ndetse n'ibindi.

Umusore mwiza cyane uririmo ukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro kuko ituma umuntu azana amatugu n'amatuza akumva arakomeye ndetse amerewe neza.

Aka ni agakoresho kazwi nka burankayi aho bakifashisha iyo hari umuntu ugize ikibazo maze bakamuhekaho bakamujyana ahantu mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Ikirango cy'umuryango ukora wa kuruwaluje utabara imbabare kirimo umusaraba w'umweru n'ubuso bw'ubururu, hirya yacyo hari inyubako nziza cyane ndetse n'ibiti by'inganzamarumbu.

Urimo siporo wazirikiye terefoni ku rutugu, akaba afite agacupa k'amazi ari kunywa, kunywa amazi ni ingenzi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze, nawe nakugira iyo nama.

Mu cyumba gitangirwamoho serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari umusore wakoraga imyitozo ngororamubiri aza kuvunika none bamwihuta kwa muganga kugira ngo bamuvure barebe ko yakoroherwa.

Umugabo wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yihutiye kujya kwa muganga, none abaganga bamuryamishije, bari kugenda bamukoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo barebe ko yagororoka.

Abantu bakorera kuruwaruje aho bari gutabara umuntu wagize ikibazo, ari kuva amaraso akaba ari umukinnyi waguye hasi none akaba agize ikibazo, none kubera ko batabara imbabare baje kumufasha.

Umugabo wari urimo akora imyitozo ngororamubiri, none ashobora kuba yavunitse, aho ari kugenda yikora ku kirenge ndetse aho akoze hahita haza amaraso y'umutuku, agomba kwihutira kujya kwa muganga.

Umukobwa cyangwa umugore uri gukora siporo ngororamubiri aho yambaye agakweto keza n'agasenge k'icyatsi gafunze amabere. Yazamuye ukuguru yagushyize inyuma ndetse yagoroye ukuboko bigaragara ko ari kwigorora.

Siporo ngororamubiri ni ingenzi ni byiza kandi kujya kwikoresha masaje nkuko tubibona uyu muntu yagiye kwa muganga bari kumukorera massage aho umuntu ufite intoki nziza z'inzobe ari kugenda amukorera massage kugira ngo amererwe neza.

Umuntu uri kunywa amazi wambaye agapira k'umweru na kuteri biragaragara ko yari ari gukora siporo, siporo ni ingenzi mu buzima kandi no kunywa amazi bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze, nawe nakugira inama yo kunywa amazi.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane, ariko biba byiza iyo uri kunyuzamo ugasoma no k'utuzi, nkuko tubibona uyu mugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse ari no gusoma ku mazi, kugirango ubuzima burusheho kumenyamera neza.

Umuganga ufashe umupira wifashishwa mu gukina umukino uzwi nka rugubi, awufashe mu ntoki, uwo muganga ni umuzungu yambaye itabuririya y'umweru ndetse n'utwuma bifashisha bapima ngo bumve uko umutima utera.

Umusore wazamuye akaguruya yakambitse ku icyuma akaboko kamwe gafashe ku kirenge akandi kifashe mu mayunguyungu. Biragaragara ko ari muri siporo ngororamubiri. ibi ni byiza cyane, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza, buzira umuze.

Siporo ni ingirakamaro cyane, hari amoko menshi ya siporo, hari icyapa kivuga ngo" garuka muri siporo" dore amategeko agenga siporo mu gihe cya kovide cumi n'icyenda, ni guma mugo, sitopu.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye utujiri tw'umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka Kuruwa ruje, imbere yabo hari umusore uteruye umuntu wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Abantu bishimye cyane bari muri siporo mu muhanda w'amapave, imbere yabo hari ibiti bitanga amahumbezi, siporo ni ingenzi mu buzima nawe nakugira inama yo kuyikora.

Umuntu uri kunywa amazi akaba ari umukobwa ukiri muto wogoshe umusatsi; amazi ni ingirakamaro cyane kuko iyo uyanyweye bituma ugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni ingenzi rero kunywa amazi kuko bigufasha kumererwa neza cyane.

Aha turi kubona ibikoresho wakwifashisha uri gukora siporo kugira ngo umere neza, hari umugozi wasimbuka, inkweto wakwambara ndetse n'udukuteri wakwambara, no kurya imbuto buriya nabyo ni siporo mu zindi.

Iki ni gikoresho cyifashishwa mu buvuzi gikoreshwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ugenda ukagifata hanyuma ukazajya ugiterura gakegake imbaraga zikarushaho kwiyongera.

Umugabo n'umugore bafite uducupa twa'amazi, bose bakaba baramye barebye hejuru bari kuyanywa, ni byiza cyane kunywa amazi kuko ni ingirakamaro, bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, nawe nagushishikariza kuyanywa kuko ni ingenzi cyane.

Ubu hari uburyo bwinshi bwo gukora siporo, iki gikapu mubona gifunguye aha ngaha kiri mu mabara y'umutuku harimo imiti myinshi wakoresha kugira ngo ukore siporo neza, hari iyo bisiga ndetse n'iyo bitera mu nshinge.

Umugabo w'umuzungu wakomeretse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, none bakaba bamuzaniye ibarafu. Yashyize ku ivi rye aho yavunitse kugira ngo arebe ko yakoroherwa, iyo barafu iri mu mabara y'ubururu.

Ni byiza cyane ko umuryango utabara imbabare ukomeza gufasha abantu bose, nk'uko tubibona hano hari abantu bambaye imyenda ya kuruwaruje bahetse umuntu wambaye agapira k'umuhondo bigaragara ko yagize ikibazo akaba yavunitse

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane, nkuko tubibona uyu mukobwa yagiye kwa muganga, muganga yashyizeho ikimenyetso cy'umweru ndetse n'umutuku ku ivi rye kugira ngo amugorore neza ajye abasha gukora siporo yishimye.

Agakarito kanditseho ngo purimiyamu, kakaba kagaragaza uburyo wakoramo siporo, ukamera neza ndetse, n'imiti wafata kugira ngo ugire umubiri ukomeye kurushaho.

Umugabo wicaye ari kunywa amazi bigaragara ko yari ari muri siporo, iruhande rwe hari umukobwa nawe uri kwerekana inda bigaragara ko nawe ari muri siporo gukora siporo ukanywa n'amazi ni ingirakamaro cyane mu buzima nawe nabigushishikariza.

Aha ni kwa muganga aho hari etajeri n'icyuma bifashisha bakora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kibasha kubasuzuma bakiramburaho bagakora ubugorora ngingo kugira ngo umubiri wabo ube ugoroye neza.

Umusore uhagaze mu nzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho harimo ibitanda ndetse n'intebe bifite amapine, ibikuta byaho bifite amarangi y'umweru.

Mu buryo bwo kwimakaza siporo tuba tugomba kumera nk'uyu mugabo, aho aterura icyuma akazana amatugu n'amatuza, ndetse imbere ye hakaba hari indyo yuzuye bigaragara ko ayirya kugira ngo amere gutya.

Icyapa kigaragaza abakorerabushake batabara imbabare ba kuruwaruje. Bafite ikirango cy'umusaraba, uri mu ibara ry'umutuku ndetse ufite ubuso bw'umweru.

Uducupa twa Rayini turimo imiti igiye itandukanye, iyi miti wayifashisha uri gukora siporo. Ukaba wayisiga ikakongerera imbaraga, ukabasha gukora siporo igihe kirekire.

Ahantu hari agasanduku gapfunduye, karimo ibikoresho byinshi cyane bikenerwa kugira ngo umuntu akore siporo, hari bya bizingo umuntu yizirika ku kaboko, harimo n'imiti myinshi igiye itandukanye, umuntu yisiga ku maguru kugira ngo abashe kwihuta.

Ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye, nko kwa muganga, uraza ukicara kuri aka gatebe ushaka gukora siporo, ukicara ku aka gatanda gasa ubururu, kakajya kagukaraga, urushaho gukora siporo.

Urutirigongo rw'umuntu, aho rwaje ku ifoto, bavuga ko iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri bituma agira urutirigongo rwiza kandi rugororotse. Ibi rero ni ingirakamaro cyane.

Ni byiza cyane ko igihe ujya gukora siporo ufata ibi bikoresho ukabizinga ku maboko, warangiza ugatangira gukora siporo buhoro buhoro witonze, wazinze ku maboko nta mbeho iri ku kwica.

Ibi ni bikoresho bigiye bitandukanye ushobora kwifashisha uri gukora siporo. Muri tuno dukapu, udupfunduye wasangamo ibyo bikoresho. Hirya hari umukobwa uri kuvugira kuri terefoni ya tuvugane afite na mudasobwa imbere ye.

Siporo ni ingirakamaro cyane, nk'uko tubibona hano hari umukobwa ukiri muto, ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari mudasobwa ari kureberamo siporo ari gukora, imbere ye nanone hari utwuma tumeze nka buro agenda aterura, kugirango yongere imbaraga zo mu kaboko.

Aha turi kubona umuntu wambaye impuzu za siporo ari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, hirya ye hari ibintu by'ibibumbe bisa ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi.

Umugore uri kunywa amazi, ndetse bigaragara ko ari muri siporo, ni byiza kunywa amazi, kuko bituma umubiri wawe umera neza cyane, ugatuma uhora buri gihe wishimye.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hejuru hakaba hariho amagambo yanditse mu izina ry'umuntu ngo Viateuri Nshimiyimana, inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Umugabo afite icyuma cy'ikoranabuhanga ari gusuzuma umwana mu kanwa ko ari muzima, hari umugore ndetse na nyina w'umwana n'undi mugabo uhagaze bambaye udupfukamunwa bari kureba ibibera aho.

Siporo ni ingirakamaro cyane mubuzima bwacu bwa buri munsi. nk'uko tubibona uyu musore aricaye yagiye ahantu bari kumukorera masaje kugira ngo umubiri we urusheho kumera neza cyane yumve aguwe neza. Bose bambaye imyambaro yumukara.

Kwa muganga haba hari uburyo bwinshi wakoramo siporo, waba ufite ubumuga, waba utabufite, iyo ugezeyo baguha inzobere ikazana ibyuma hanyuma ikagukoresha nk'uko tubona uyunguyu arikubikora

Akarahuri gateretse, kari gusukwamo amazi n'ibika ifashwe n'ikiganza, aya mazi agiye kunyobwa, ni byiza kunywa amazi mu gihe cya mugitondo kuko bigufasha kwirwa umeze neza.

Agacupa ka nili gafite impeta y'umutuku, kari gusuka amazi mu kirahuri ngo hagire umuntu uyanywa. amazi ni ingenzi cyane nkubwije ukuri ko uramutse unywa amazi kabiri munsi wazagira ubuzima bwiza iyi niyo nama naguhereza.

Umusore uri kunywa amazi aho araramye, afite amatugu n'amatuza bigaragara ko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma ugira ubuzima bwiza.

Gukora imyitozoro ngororamubiri ni ingenzi cyane, nkuko tubibona uyu mugabo afite amatuku n'amatuza, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isaha ku kuboko ndetse afite n'imisatsi y'umukara.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane nkuko tubibona aha, uyu mugabo ari gukora imyitozo kugira ngo arebe ko yamererwa neza .Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umera neza cyane.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane. Ariko biba byiza iyo umuntu agiye gukora siporo afite imiti yifashishwa mu kwivura igihe yakomeretse. Uyu mukobwa yakoze siporo arakomereka ariko yahise ashyiraho igipfuko.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, hano umuntu aragenda akazirika akaguru umugozi yarangiza akazirika hejuru akajya aragenda agakurura kamanuka kazamuka ariko arushaho gukora ibintu by'imyitozo.

Umusore wambaye agapira k'umweru. Akaba yifatiye ibarafu mu ntoki ze, aho yashyize ku nkokora aho yavunitse. Ni umusore wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Siporo ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu, nkuko tubibona uyu mukobwa ari gukora imyitozo, biragaragara ko imbere ye afite agacupa k'amazi, ni byiza cyane gukora siporo ndetse wakumva unaniwe ugasoma ku tuzi, kuko bigirira umubiri akamaro.

Iyi ni mikorosikopi ikoreshwa n'abaganga, bari kureba indwara nyinshi zigiye zitandukanye, aho bakurura n'indwara iri mu maraso mo imbere, bakayireba bakakubwira uburyo wayivuza.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo. Haba harimo inkweto, hakaba harimo kakabande bazinga ku ntoki ndetse n'amasogisi bambara bagiye muri siporo. Ni byiza ko nawe wakora siporo.

Abantu benshi bateraniye hamwe b'abagabo n'abagore, icyo bahuriyeho bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'utunozasuku mu mutwe, bafite mudasobwa ndetse imbere yabo ku meza ndetse bari kureba ku nsakakazamashusho umugabo uri gutanga ikiganiro.

Umuntu wambaye umupira w'umukara utari kugaragara neza, hari n'undi wambaye agapira k'umweru wazanye ukuboko aho bari kumuzirikiraho imyambaro yo gukorarana siporo, kugirango amererwe neza cyane.

Umwana muto wagiye kwa muganga none muganga akaba ari kumusuzuma ko akora siporo, afite icyuma ari kukimutunga mu maso, ndetse muganga yambaye akajiri gasa ubururu.

Agakapu kari mu mabara y'umutuku gafite imashini z'umukara, kakaba gatwarwamo imiti yifashishwa mu kuvura abantu igihe bari gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma bagira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ipantaro n'isengeri, afite rwose ukuboko bigaragaza ko wagira ngo yateruye icyuma akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye na kuteri y'umushumi y'umweru.

Ibikoresho bifashisha bari gukora siporo aho bino bizingo biri mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umukara. Uragifata ukazinguraho, ugahambira ku kaboko kugira ngo mu gihe uri muri siporo wumve ukomeye.

Umukobwa wicaye wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umutuku akaba ari gukora siporo, siporo ni ingirakamaro cyane mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, kuko bituma agororoka akagira ubuzima buzira umuze n'amaganya.

Ibiganza bifashe imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, wakwifashisha ndetse ukazirya maze ukabona kujya gukora siporo, siporo kuyikora ni ingenzi ariko biba byiza kurushaho iyo wayikoze ubanje kurya.

Iki ni igikoresho bifashisha bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ugishyira ku ivi, maze ukajya urakora imyitozo kugira ngo utaza kwicwa n'imbeho mu gihe cya siporo.

Umuntu wambaye agashati gasa umweru ndetse n'gapira k'ubururu, akaba ari gukorera masaje wambaye agapira k'umweru, aryamye w'umusaza kugira ngo amererwe neza.

Ikirenge cy'abantu gihagaze hasi, aho umuntu acyambara igihe agiye muri siporo kugira ngo niyitura hasi cyangwa bakamukubitaho ataza kubabara ahubwo agumye akomeye.

Uburyo bwo gukora siporo bavuga ko umuntu yambara ga ziciye hanyuma akagenda ari kwiruka mu muhanda kugira ngo n'akayaga kazajye kinjiramo.

Umugabo wicaye kuri burankare yambaye inkweto ndetse muganga ari kumwitaho amukorera massage amushyirikaho n'akantu kugira ubutaha azabashe gukora siporo ameze neza cyane.

Inzu itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi. Harimo umuganga ufashe umupira w'umutuku, wa siporo. Ndetse ku gikuta hamanitse icyuma cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kizwi nka kizimyamoto.

Umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, none inzobere mu by'ubuvuzi zamusesekeyeho ziri kugerageza kumuha serivise kugira ngo barebe ko yakoroherwa.

Umuntu wese ufite ikibazo mu bijyanye na siporo, ajya kwa muganga hanyuma muganga akamufasha gukora siporo, akanamukorera masaje. Nk'uyu turabona ko ari gukorerwa masage na muganga.

Umusore ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri yatsiye aranyerera agwa hasi agwira ukuboko kuravunika. None yagiye kwa muganga, muganga arabusuzuma abona ahavunitse, none yahasize amarange y'umutuku ndetse n'ubururu.

Abantu babiri bari kugenda kuri mucaka, harimo umukobwa wambaye agakabutura k'umutuku n'agasengeri k'ubururu n'undi mugabo bose bafashe uducupa turimo amazi mu ntoki. Bari gukora imyitozo ngororamubiri. Hakurya hari agasozi karekare cyane.

Uducupa tubiri dusa tumeze nk'uducuritse turimo amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, iyo ufunguye mo imbere usanga harimo imiti myinshi cyane igiye itandukanye yifashishwa n'abavuzi ba gakondo.

Icyatsi cy'ikimera giteye ahantu mu busitani aho gikikijwe n'amabuye, iki cyatsi rero kikaba gifite utubabi twiza cyane, iki ngiki rero iyo gikuze bagitunganyamo imiti ivura indwara za kinyarwanda.

Ikimera gifite amababi meza atoshye ndetse kikaba kiri mu tabire, abantu benshi ntibazi ko iki ngiki ari umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ni byiza rero ko nawe wajya gufata uyu muti mu gihe ufite indwara za gakondo.

Uducupa tugiye dutandukanye, turimo imiti ikomoka ku byatsi by'ibimera ariko ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda, turi mu mabara y'umweru ndetse dushushanyijeho akanyoni kari kuguruka

Ni ahantu hagari cyane hateyemo ibyatsi bigiye bitandukanye. Ushoboye kubibona ntumenye ibyo ari byo. Ariko mu by'ukuri ibi byatsi byitwa jeraniyumu, aho babifata bakajya kubitunganyamo parufe ihumura neza.

Agasahani kari mu ibara ry'umweru gakamuriyemo icunga mu mutobe w'umuhondo, hirya hakaba hari tangawize ndetse n'irindi cunga bigaragara ko bagiye kubiteranya bakabivanamo umuti gakondo uvura indwara za kinyarwanda.

Uyu musore n'umukobwa uwo twakwita ko sheri we basohokanye none bagiye mu ishyamba gufata poze ahangaha bari kwifotoza ikigaragara bishimiye aha ahantu bari kuko hari ibyatsi ndetse n'uturabo dutoshye dukoze neza cyane.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, atunganywamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara gakondo by'umwihariko indwara za kinyarwanda, ikaba iri mu matsinda agiye atandukanye.

Abavuzi gakondo baba bafite imiti myinshi igiye itandukanye utapfa kumenya iyo ariyo, ushobora kuyifata ukayifashisha wivura indwara zigiye zitandukanye, ariko ntibyapfa ku kukorohera kuyimenya.

Umuti witwa shampo ni umuti ukozwe mu bimera ndetse ugakunda kwifashishwa n'abantu benshi bagiye batandukanye mu buvuzi bwa gakondo ndetse nho bawusiga mu mutwe umusatsi ukamera neza.

Turabona ibintu byu'mweru, harimo amavaze arimo indabyo, ndetse n'uducupa turimo utuntu wagira ngo ni ifu. Ariko uyu ni umuti ukoreshwa n'abavuzi bakora ubuvuzi bwa gakondo.

Amoko menshi y'imiti gakondo ikunze kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye usanga ikomoka ku bimera, iki kimera rero gifite ibabi rimwe rikomeye ariko rivura indwara zinyuranye.

Agakarito kari mu mabara y'umuhondo n'umweru, kakaba gashushanyijeho ibyatsi by'ibimera ndetse handitseho n'amagambo mu ibara ry'icyatsi ndetse hashushanyijeho n'akanyoni.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umweru ahagaze imbere ya aka etajeri gacururizwamo imiti igiye itandukanye ya gakondo imenyerewe nka magendu, hirya hari umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'umusore umwe.

Abavuzi ba gakondo baba bafite ibyatsi byinshi bakoresha bari kuvura abarwayi. Ni byiza rero ko dukomeza kubavura, dukoresheje ibi ibyatsi bigiye bitandukanye kuko bikiza indwara zananiranye.

Uyu uri hano ni umuti gakondo ukozwe mu bimera; uyu muti uvura indwara zitandukanye; kuko ndabona barawanditseho n'ibirango byawo; bigaragaza ko ushobora kuba utera ubuzima bwiza ku bawukoresha.

Uducupa tujye dutandukanye turimo imiti, iyi miti yifashishwa n'abavuzi bakora cyangwa bavura indwara za magendu.

Aha turi kubona amavase ateyemo indabyo zigiye zitandukanye ushobora kuzibona ukagirango indabyo z'umurimbo hazaza imbituze siko bimeze kuko izi ndabyo zirifashishwa cyane cyane kuko bazikoresha mu buvuzi bwa gakondo.

Iyi ni imiti gakondo itanga ubuvuzi bugiye butandukanye nk'uko tubibona akano gacupa karimo imiti ivura kurangiza vuba no gucika intege. Ikindi yongera akanyabugabo.

ibyatsi tuzi nk'amatovu bizwi ko ntacyo bimaze. Ariko niko tubizi siko biri amatovu arifashishwa cyane cyane mu buvuzi bwa gakondo aho avura indwara y'amara.

Iki ni icyatsi cyitwa igincunshu kivura indwara zigiye zitandukanye, ushobora kugisanga ku bavuzi ba kinyarwanda aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye ziba zibasiye abantu baje babagana.

Abavuzi batanga serivisi z'ubuvuzi bwa kinyarwanda cyangwa bwa gakondo, bakunze kuba bafite ubucupa bwinshi, buba burimo imiti ikozwe mu ifu, ndetse n'imiti ifukika. Niyo bagurisha.

Ibikoresho by'udukangara birimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, hari agasekuro k'umweru karimo n'umupfundikizo n'ibyatsi bagiye gusekuririramo, bakabitunganyamo umuti gakondo.

Imiti gakondo iva mu bimera na yo iravura, aha bayishyize ahagaragara bari kuyerekana bayamamaza kuko n'imiti ikoze mu bimera nk'icyayi ndetse n'ibindi n'ibindi, ubu umuntu ashobora kuyifashisha.

Aha turi kubona agacupa gasa umweru kariho n'icyapa n'umupfundizo w'umweru, imbere y'ako hari ibintu bimeze nk'amaronji by'umuhondo ariko si amaronji kuko ni imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa k'ubururu karimo umuti kakaba kanditseho ngo amavuta y'uruhu. Uyu ni umuti ukoreshwa mu buvuzi bwa gakondo aho mu buvuzi bwa kizungu biba byananiranye.

Inzu itangirwamo imiti igiye itandukanye, ya gakondo. Hari umugabo wagiye kugura, ndetse hari n'umugore uri kuyigura. Umuntu ashoboye kureba, akagira ngo izi ni inzoga z'udupeti mitsingi. Nyamara si zo, ahubwo ni imiti.

Uyu ni umuvuzi wa gihanga, aho avura indwara zigiye zitandukanye, akaba yakoze agafuraya ko kwamamaza umwuga akora, hariho uducupa twinshi turimo imiti akoresha avura abarwayi.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera abavuzi gakondo batunganyamo imiti bakoresha, iri mu mabara atandukanye umutuku, umuhondo, iroza, icyatsi ndetse n'umutuku wijimye.

Ibikoresho birimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, bavura indwara zigiye zitandukanye. Harimo kandi n'inanasi nziza ushobora kurya ikakurinda indwara zirimo umubyibuho.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye bikunda gutunganywamo imiti gakondo, aha rero ture kureba abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara n'umutuku, bagiye mu gisambu gushakamo imiti gakondo izifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa twinshi cyane ndetse n'udukarito twinshi turi mu mabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umuhondo. Utu twose tukaba turimo imiti igiye itandukanye ikorwa mu bimera ikavura indwara zitandukanye za Kinyarwanda.

Aha ni mu ivuriro, ricuruza imiti gakondo. Harimo icyapa cyanditseho ngo: " Kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo." Biri gucuruzwa n'umugabo w'umuyisilamu wambaye agakanzu k'umutuku.

Uducupa twinshi cyane dutandukanye, dupfundikije imipfundikizo y'umuhondo, iy'umutuku, ndetse n'utundi dupfundikishije imipfundikizo y'ibyuma. Bikaba bigaragaramo ko utu ducupa turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gihanga.

Ibyatsi birambitse ahantu hari akavazi karimo umwuko cyangwa umusekuzo, ibi bikaba ari ibyatsi bagiye gusekura ngo babyifashishe mu buvuzi bwa gakondo barebe ko bavura umuntu umwe nibura.

Ubu ni ubuvuzi gakondo aho berekana imiti umuntu yakoresha, harimo iyo mu bimera karemano ndetse hakaza n'indi y'amazi iri mu gatasi, iyi yo mu bimera ipfunyitse mu mapaki.

Icyatsi gifite amababi meza cyane atohagiye agiye atandukanye, iki cyatsi rero kikaba gitunganywamo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, by'umwihariko nk'indwara za kinyarwanda.

Aha ngaha turi kubona uducupa twinshi tugiye dutandukanye tw'amabara menshi cyane aho harimo utw'umweru n'utw'umuhondo, inyuma hari igitambaro gisa umutuku, tukaba turimo imiti itangwa mu buvuzi bwa gakondo buvura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri ndetse n'ikirahuri, birimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zinyuranye za gakondo. Ikirahuri harimo uwo muti, bivuze ngo uramutse urwaye wahita usomaho.

Inzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye aho haba hari uducupa twinshi cyane n'utumverope n'amabumba bigatanga ubuvuzi bwa gakondo buvura indwara zinyuranye, zoroheje n'izikomeye.

Uducupa tugera muri dutatu, tubiri tw'umweru n'akandi kamwe k'umuhondo, utu ducupa tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Utu ni udukarito turimo ibinini byifashishwa birinda indwara zigiye zitandukanye, aho ushobora kukinywa kikaguha ubudahangarwa maze umuntu yashaka ku kuroga ntibigufate.

Ushobora kugera ahantu mu cyaro harimo ibyatsi byinshi cyane bigiye bitandukanye, byose ukagenda ukonyora utazi umumaro wabyo. Ntumenye ko ibi byifashishwa bari kuvura indwara zo mu buryo bwa gakondo.

Ni mu cyumba kirimo imiti gakondo myinshi igiye itandukanye iba iri mu dusahani tugiye dutandukanye, hari isa umutuku, umweru ndetse n'umunzani wifashishwa hakoreshejwe ibuye.

Aha ni muri pipenyeri y'imiti gakondo, urabona ko harimo ibyatsi byiza bikiri bito, ubirebye wagirango ngo ni ubwoko bw'imbuto, ariko iyi ni imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, akaba yagiye ahantu mu ishyamba, gushakamo imiti gakondo. Uyu muntu uko bigaragara, ni umuvuzi wa gakondo, uzwi ku izina ry'umupfumu. Avuye gushaka imiti.

Agacupa k'umweru gashushanyijeho inyoni iri kuguruka kakaba gafite umupfundikizo w'umukara aka gacupa rero kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Aha ni ahantu hatangirwa imiti ya gakondo. Ubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bimeze nk'imyanda ariko iyi myanda ni yo ivamo ubuvuzi. Dore ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibikomeye ni byo bivamo amakoma.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi anyuranye, tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye cyane cyane indwara za kinyarwanda.

Aha ngaha ni mu nzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi gakondo, aho hari ubucupa bubiri burimo imiti igiye itandukanye, ihabwa abarwayi baje babagana. Utwo ducupa dufite imipfundikizo isa umutuku.

Ibyatsi by'ibimera bizwi nka te. Bikaba ari ingirakamaro cyane, kuko bitunganywamo imiti myinshi igiye itandukanye, cyane cyane iyifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda. Ikunda kandi kwifashishwa bari guteka icyayi. Kugira ngo gihumure neza.

Ibyatsi bifite indabyo nziza ushoboye gukeka ko ari zimwe bakoresha mu bukwe ariko siko biri kuko ibi ni ibyatsi bikoreshwa nk'umuti wa gakondo.

Agashashi kari mu mabara y'umuhondo, karimo umuti usa umukara, kakaba kanditseho icyapa kigaragaza ko ibirimo bipima garama ijana, uyu rero akaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Abantu bari gutambuka bajya ahantu wagira ngo ni mu butayu hari kumanuka amazi menshi cyane. Biragaragara ko aba bantu ari abakora ubukerarugendo bari kujya gusura imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ku kibabi cy'isombe bari kukireba bakagirango ni umyumbati, ntabwo babizi iyi ni isombe iraribwa kandi ivamo n'umuti mwiza urinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye mu buryo bwa gihanga.

Ibi ni ibyatsi bigiye bitandukanye bifite amababi atagaranye. Ushobora kubibona ukagira ngo ni ibyatsi bisanzwe, Si ko bimeze kuko ibi byatsi byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugiye butandukanye, cyane cyane ubwa gakondo.

Agacupa k'umweru gapfuje umupfundikizo w'ubururu, aho karimo imiti yifashishwa n'abavuzi ba gakondo, aho baba bavura indwara zananiranye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Ahantu hatangirwa serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi bwa gakondo, haba hari ibikoresho bitangaje. Nk'ubu turabona ibikoresho bimeze nk'utubumba tw'imbabura, bigiye birimo utuntu twinshi. Wasanga ari byo bita impinga.

Abana bakiri bato, iyo babonye ubu bwoko bw'iki kimera, bagira ngo ni ururabo. Ariko abapfumu bo bazi ko ubu ari ubwoko bw'imiti ya gakondo, aho umuntu akuvura akavura indwara zananiranye.

Ibi ngibi ni bimwe mu bwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, aho byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, bakabikoresha bavura indwara zigiye zitandukanye hakubiyemo nk'indwara zijyanye n'amarozi.

Iyi n’imiti gakondo iri kuvuga ku buryo umuntu yakwivura akoresheje imiti y'ibimera, akaba yabasha kwirinda akikingira ndetse akanivura indwara zamuteye igihe ari kurwara, agakoresha imiti.

Icyapa kigaragaza uburyo imiti gakondo iba ipfunyitsemo, imiti gakondo yifashishwa bavura abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye nawe niba ufite ikibazo cyihariye wagana abavuzi gakondo.

Iki ni icyatsi tuzi kimenyerewe nk'igicuncu. Ikingiki gitanga ubuvuzi bwihariye, aho umuntu urwaye indwara irimo nk'inkorora akinywa maze agahita akira.

Indabyo nziza cyane zifite amabara y'umutuku umuhondo ndetse n'umweru zikaba zifite ibibabi by'icyatsi, ushoboye kuzibona ukibaza ugira uti zikoreshwa mu bukwe, siko bimeze kuko izi ndabyo ni umuti ukoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ikintu kimeze nk'ikinini ariko kinini gifashwe n'ikiganza cy'umuntu ariko bigaragara ko ari icupa ribamo umuti wa gakondo kuko hashushanyijeho ibyatsi.

Akagera Medecine, ni uburyo bwo kwivuza aho ugenda bakakuvura uvuwe n'abaganga b'inzobere bakorera mu bitaro by'Akagera.

Mu ducupa ducuritse turi mu mabara y'icyatsi, ubururu, umweru, ndetse n'ubururu bwerurutse tukaba turimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara za gakondo.

Aka ni agacupa k'umweru kandindikishijeho amagambo mu ibara ry'ubururu, ndetse n'utuntu turi mu ibara ry'icyatsi tumeze nk'indimu basatuye bikaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda aho bavura indwara zitandukanye.

Agacupa gatoya gasa umweru hejuru harimo agapfundikizo k'umutuku, aka gacupa karimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara ya gakondo.